Ahantu hari abantu benshi batandukanye harimo abicaye n'abahagaze. Umusore umwe afite indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro. Ashobora kuba ari gutanga ikiganiro cyangwa igitekerezo mu nama cyangwa ikindi gikorwa cyahuje abantu benshi.

Abantu bicaye hamwe harimo abagabo n'abagore bicaye bareba mu cyerekezo kimwe. harimo abafite amakaramu n'amagakayi biteguye kwandika ibyo bagiye kubwirwa. Ni ahantu mu inzu hisanzuye bateze amatwi nk'abantu bari mu nama cyangwa bari guhabwa ikiganiro.

Umuntu arimo gutanga ikiganiro. Ni ahantu hateguye neza, hari mu mabara y'umutuku, umweruru n'ubururu. Ni bimwe mu biranganotego biranga ishyaka ryo mu Rwanda, riri ku butegetsi ryitwa FPR Inkotanyi. umuntu ari gutanga ikiganiro ku bantu bamukurikiye.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bamwe baricaye, umwe uhagaze afite indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro kuri abo bantu bicaye cyangwa akaba ari gutanga igitekerezo ku bayobozi bamuri imbere.

Umugabo uri imbere y'abantu afite indangururamajwi, arimo kureba abantu yishimye ameze nk'aho ari imbere y'abantu benshi, arimo kugira icyo ababwira, cyane cyane bikunze kuba ari nk'inama, cyangwa ibiganiro, cyangwa ubukangurambaga bw'ikintu runaka. Inyuma ye kandi hari umuntu umuri inyuma yambaye umupira w'umweru na'marineti.

Abantu baricaye, imbere yabo hari amazi ndetse n'abandi barimo kwandika. Abantu kandi bari mu ngero zitandukanye harimo: Abashinzwe umutekano, Abasirikare ndetse n'Abacungagereza. hari n'abandi baturage basanzwe bari inyuma bari kureba mu cyerekezo kimwe nk'abantu bari kumva inama cyangwa ibiganiro barimo guhabwa maze bamwe bakabyandika.

Abantu bari ahantu bicaye bamwe barimo kwandika abandi barahagaze, bameze nk'abantu bari mu nama barimo kuganira, imbere yabo kandi hari amazi ndetse umwe muri bo arahagaze arimo kubaganiriza.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, ni inzu nini kandi irimo abantu bo mu ngeri zitandukanye, barimo kureba mu kerekezo kimwe barimo kumva ibiganiro bamwe imbere yabo hari amazi yo kunywa.

Abantu bicaye hamwe. Bari mu ngeri zitandukanye, harimo abagore n'abagabo. Kandi bose bicaye bari kureba mu cyerekezo kimwe, aho bakurikiye umuntu arimo kubaganiriza. Bari ahantu mu nzu nini yafatwa nka sare y'ibiganiro.

Abantu bahuriye hamwe bakoze uruziga kandi barimo kubyina, harimo abagore n'abagabo barishimye barimo kubyina bameze nk'abasoje, ikiganiro cyabanje none bakaba bashyizeho ka morale.

Abantu bicaye hamwe, imbere yaho hari icyo kunywa kandi bambaye neza, harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abayobozi, bari ahantu hamwe bameze nk'abagiye gukora ikiganiro cyangwa intama.

Umudamu uhagaze mu bantu benshi ufite indangururamajwi. Abantu benshi baricaye bakurikiye ikintu ari kuvuga. Ashobora kuba ari gutanga ibitekerezo cyangwa ari kuganiriza abantu nk'amateka cyangwa bari nko mu nama. Bari ahantu mu nzu nini yisanzuye.

Umupolisi arahagaze, arimo gutanga ikiganiro kandi afite indangururamajwi cyangwa mikoro, abandi bantu baricaye bamuteze amatwi, inyuma yaho hari urugo rwubakishije imiyenzi, ndetse n'imbere hakaba harimo inzu.

Abantu benshi bicaye kandi bari kureba mu cyerekezo kimwe harimo abagabo n'abagore, barimo kureba ahantu hamwe nkaho bakurikiye imbwirwaruhame barimo guhabwa, bicaye ahantu heza mu nzu kandi inzu nini.

Ahantu hari abantu bicaye n'abandi barimo gutambuka. Abantu bicaye bamwe bafite ibyo kunywa harimo amazi ndetse na ji. Imbere yabo harimo gutambuka umukobwa n'umuhungu bambaye imikenyero igaragaza umuco Nyarwanda ndetse inyuma yaho hari abandi bahungu batambaye hejuru bambaye imikenyero n'abakobwa. Ibi bishatse kugaragaza umuco Nyarwanda ubukwe bwo mu Rwanda bukorwamo.

Abahungu n'abakobwa bambaye imyenda igaragaza umuco nyarwanda, kandi bakaba barimo kubyina mu mbyino y'umuco nyarwanda, bambaye imyenda na none igaragaza umuco nyarwanda, harimo imikenyero, urunigi abakobwa bakaba bambaye urukenyero, urunigi ndetse n'urugori nanone abahungu bakaba bambaye n'amayogi.

Igikoresho cyitwa ingoma, ingoma ikunda kuvuzwa iyo abanyarwanda barimo kubyina imbyino nyarwanda cyangwa ahandi igakoreshwa abantu barimo kuririmba bisanzwe, izi ngoma zikunda gukorwa mu ruhu rw'amatungo agiye atandukanye nk'intama, inka ndetse n'izindi.

Abakobwa bambaye neza kandi bambaye imikenyero igaragaza umuco nyarwanda. Barimo kubyina imbyino z'Abanyarwanda cyangwa iz'umuco nyarwanda kandi bambaye urunigi ndetse n'urugoreri.

Abantu barimo kubyina, bamwe barahagaze abandi baricaye, hari n'abandi barimo gucuranga, barimo kubyina imico nyarwanda cyangwa imbyino ijyanye n'umuco nyarwanda, bambaye imyenda igaragaza umuco nyarwanda nk'urunigi, imikenyero, ndetse n'urugori, hari n'undi uri kuvuza ingoma ku ruhande, abandi bafite ibyuma bya kizungu.

Ikibindi ikibindi ni kimwe mu bintu bigaragaza umuco nyarwanda, aho mu bukwe abantu bakundaga kwicara noneho bakanywera mu kibindi bari mu bukwe, ugasanga bashyizemo imiya myinshi abantu bakajya kunywa, habaga harimo nk'urwagwa cyangwa ikigage. Akenshi ikibindi gituruka mu ibumba aho bakibumba neza noneho bakacyanika kikuma.

Abantu bateraniye ahantu hamwe barimo gukoma amashyi, undi umwe arimo kubyina. Arimo kubyina imbyino y'umuco nyarwanda cyangwa imbyino nyarwanda. Yambaye bimwe mu biranga umuco nyarwanda, harimo urunigi ndetse n'amayugi kandi hari abandi bantu bicaye inyuma. Barimo kumufotora arimo kubyina abandi bari gukoma amashyi.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze bari gukoma amashyi. Bari kwitegereza umuntu uri kubyina imbyino nyarwanda, igaragaza umuco nyarwanda. Aho yambaye impuzankano zibigaragaza nk'imikenyero, amayugi ndetse n'urunigi.

Amapiloni ashinzwe gutanga umuriro ahantu hagiye hatandukanye, anyuraho insinga zigenda zijya mu baturage aho bakwirakwiza umuriro bakoresheshije aya mapoto umuriro uva mu gace kamwe ujya mu kandi, munsi y'ipoto kandi hari abaturage bahatuye harimo n'amazu menshi n'insina.

Ipironi y'amashanyarazi, amapiloni maremare yifashishwa mu gutwara umuriro uva mu gace kamwe ujya mu wundi kugira ngo ukwirakwire mu baturage, amapoto maremare akunda kwifashishwa ahantu hagiye umuriro mu bice bya kure.

Abantu bambaye impuzankano kandi umwe n'umwirabura undi ni umuzungu, bafite imashini bari impande y'ikusanyirizo ry'amashanyarazi bameze nk'abantu barimo kuryubaka cyangwa basoje kuryubaka. Irikusanyirizo ry'amashanyarazi rishinzwe gutanga umuriro mu bice bigiye bitandukanye.

Amatara yo mu muhanda ni amatara amurika mu muhanda nijoro kugira ngo ibinyabiziga bibashe kugenda ahantu muri kaburimbo habona neza aribyo birinda impanuka ndetse n'ibindi bibazo byose byagaragara mu muhanda bitewe n'uko hatari urumuri ruhagije kandi hacometseho n'izindi nsinga zishobora kuba zijyana amashanyarazi ahandi hantu hatandukanye cyangwa zijyana umuriro mu yandi matara.

Abakozi benshi bambaye impuzankano z'ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda, bambaye n'ingofero kandi zirinda impanuka, bari imbere y'ikusanyirizo ry'amashanyarazi aho haturuka umuriro mwinshi ujya mu bice bitandukanye by'ahantu hegereye irikusanyirizo mu baturage ndetse no mu bindi bikorwa bikenera amashanyarazi.

Abakobwa bane bambaye impuzankano z'ikigo gishinzwe amashanyarazi mu rwanda REG, inyuma yabo kandi hari umusozi w'ishyamba, aba baba bashatse kuvuga ko bashoboye cyangwa bafite ubumenyi mu bijyanye no gutunganya amashanyarazi.

Ikusanyirijoro ry'amasanyaraza, aho amashanyarazi bayakusanyiriza noneho bakayajyana mu baturage kugira ngo babashe kubona umuriro uhagije. Umuriro mwinshi uba waturutse mu baturage akenshi uba ufite ikusanyirizo rya amashanyarazi ari abafasha kuyajyana mu baturage.

Umuntu ushinzwe iby'amashanyarazi. Arimo ku gusuzuma ko Kashipawa ikora neza. Iyingiyi ikoreshwa iyo umuriro washizemo, ugiye kugura undi. Baguha imibare noneho ukayandikamo hariya kugira ngo, umuntu ubashe kugaruka mu nzu yawe.

Abantu bashinzwe amashanyarazi, bari ku mupironi barimo kuyakora kugira ngo umuriro ubashe kugera ku baturage bagiye batandukanye, aya mapironi ni kimwe mu bitwara amashanyarazi kugira ngo agere ku baturage, abantu babishinzwe barimo kubyitaho bari hejuru barimo kuyakora kugira ngo agere ku baturage.

Amapironi. Amapironi ni kimwe mu bikoresho byifashishwa kugira ngo biyobore amashanyarazi biyajyana ahantu hamwe biyajyana ahandi. Ni kimwe mu bintu bitwara insinga mu birometero birebire kugira ngo abaturage babashe kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda w'igitaka ariko usa nk'uwitaweho ugakora. Abaturage baturiye umuhanda kandi impande zawo hari n'insina kandi hari n'imiyoboro y'amashanyarazi igenda ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage. Kugira ngo bibafashe gucana ndetse n'ibindi bikorwa byose bizifashisha amashanyarazi.

Igiti cyashinzwe kinyuraho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, iki giti gifasha izi nsinga kugenda zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage kugira ngo babashe gukoresha amashanyarazi.

Ipironi rinyuraho insinga nyinshi. Hejuru hariho umuntu urimo gutunganya insinga. Akenshi umuntu ushinzwe gukora ibintu by'amashanyarazi aturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukora amashanyarazi REG. Aho urusinga rwagize ikibazo rudatwara umuriro cyangwa hari ibindi bibazo noneho umuntu akajyamo akajya kuhakora. Izi nsinga zitwara amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Ishuri rifatanye ririmo amashuri abiri, imbere yaho hari ibihingwa birimo ibigori n'ibishyimbo, impande y'iryo shuri kandi hari amatuwarete cyangwa ubwiherero abantu bajyamo.

Ni ikiraro, ikiro kandi hariho n'amagambo yanditseho ngo kubabaka ibikorwa remezo. Ni icyaro kiri hejuru, aho bafashe umukanda bakawunyuza hejuru y'amazi. Munsi harimo amazi atemba, hejuru wubatseho ikiraro kiza kinyuraho abantu cyangwa ibinyabiziga hejuru kandi ku ikiraro hariho n'abantu bahagazeho.

Ikibuga cy'umupira wamaguru ndetse bakaba banagikoresha mu irushanwa ryo kwiruka. Ahangaha hari amabara y'umutuku n'imirongo haberamo irushanwa ryo kwirukanka noneho ahari amabara y'icyatsi cyangwa ibyatsi haberamo amarushanwa y'umupira w'amaguru. Hakurya hari imyanya y'abafana aho amabara y'icyatsi ubururu n'umuhondo.

Inyubako ikorerwamo ubucamanza. Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare, aho abantu bajya bakaburanira harimo abashinjacyaha n'abavoka kugira ngo babashe kurenganura umuntu wakoze icyaha. Iyo yakoze icyaha arakatirwa agafungwa, yaba ataragikoze bakamureka agataha. Ni inzu rero y'ubucamanza cyangwa ahabera iburanishwa ry'abantu.

Ikiraro cy'abanyamaguru. Ni ikiraro kiba cyarubatswe, n'ubuyobozi bwaho ku gace, akenshi kiba kinyuramo abanyamaguru. Ni ikiraro kiba cyambukiranya ahantu harimo umugezi cyangwa hatengutse, kugira ngo abanyamaguru bajye bahaca byoroshye.

Ibitaro bya nyagatare ni ivuriro riparitseho imodoka itwara abarwayi yitwa imbangukiragutabara aho ijya kuzana umurwayi aho atuye yarembye cyane ikamuzana hano ku bitaro kugira abashe guhabwa ubuvuzi.

Urwibutso rwa nyagatare hari abantu baje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, aho basura imibiri ishyinguye mu rwibutso rwa Nyagatare hari abasore bafite amasanduku arimo imibiri y'abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, inyuma yabo kandi hari n'abadamu bafite indabo.

Ikiraro cyo mu kirere nicyiraro kinyuramo abantu, gikunda kubakwa ahantu haba hari igikombe, cyangwa harehare hagora abantu kuhagenda, bagakora ikiraro kugira ngo abantu bajye banyuramo bava ku musozi umwe bajya ku wundi. Nta binyabiziga binyuramo, hanyuramo abantu gusa.

Umuhanda ukoze neza kandi utsindagiye. Ni umuhanda w'igitaka ariko urimo gukorwa habura ho gato ugeremo kaburimbo. Hakurya yaho hari umusozi. Mbere yuko ugera kuri uwo musozi hari amazu menshi atandukanye. Harimo n'amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda ukoze neza ariko utarimo kaburimbo. Uwo muhanda ukaba urimo ikiraro, ikiraro aho kiba cyarubatswe na leta y'igihugu, kandi akaba ari ikiraro gihuza agace kamwe n'akandi. Imbere yacyo hari imodoka ihetse ikindi kinyabiziga cyapfuye.

Abaganga batandukanye harimo igitsina gabo n'igitsina gabo, ni abo mu kigo nderabuzima cya Mwendo, ni abaganga bakiri batoya aho bambaye impuzankano z'akazi, kandi inyuma yabo hakaba ari ibyapa bigiye bitandukanye, harimo byanditse ejo heza ibindi bakaba banditseho igi ni ubuzima.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru akenshi cyitwa sitade. Ni ikibuga kiri ahantu hitaruye kandi ahantu abafana bicara hari mumarangi y'icyatsi, umuhondo n'ubururu. Mu kibuga aho bakinira umupira harasa icyatsi. Hano h'umutuku ho akenshi hakunda kubera amarushanwa yo kwirukanka.

Umuhanda w'ikiraro , bivuze ko ari umuhanda unyura hejuru. Bikunze kuba iyo hasi hari umugezi ugenda, cyangwa umusozi waratengutse, ku buryo agace kamwe n'akandi biba bitabasha guhahirana. Umuhanda rero wubakwa kugira ngo uhuze izo mpande zombi, ariko umuhanda umeze nk'uwagize ikibazo, hari n'umuntu ufite igare urimo kugenda.

Inzu nziza kandi iri ahantu heza, ni inzu igeretse kabiri, iri mu marangi y'umuhondo n'umweru, mwene izi nzu ziba ziberamo ibintu bitandukanye nk'ibirori, hoteli ndetse n'ibindi.

Icyapa kiri mu karere ka Nyagatare cyanditseho amagambo akurikira, akarere ka Nyagatare umurenge wa katunda Akagari ka Nyamirembe, umudugudu wa Kirimbure, handitseho kandi kirazira n'indangagaciro ziranga abaturage bo muri uyu mudugudu wa Kirimbure.

Imashini iriho abakozi batandukanye kandi benshi bambaye iyi myenda y'akazi, iyi mashini irimo gukora umuhanda aho irimo gushyira godoro muri uyu muhanda kugira ngo ube kaburimbo.

Inzu iri mu irangi ry'ubururu, hariho icyapa cyanditseho giri ubuzima. Impande yaho hari intebe abantu bicaramo, ndetse na kandagira ukarabe. Bivuze ko iyi nzu ari ivuriro aho abaturage bajya kwivuriza indwara zitandukanye. Haba n'abaganga aho umurwayi yisuzumisha, muganga akamuha imiti. Akenshi amavuriro ameze atya, aba akoresha ubwisungane mu kwivuza mituweli.

Abantu bicaye hamwe harimo abadamu ndetse n'abagabo, umwe arahagaze arimo gutanga ikiganiro, bari ahantu bicaye hanze ntago bari mu nzu, inyuma yaho hari ibimera bihari ndetse n'amazu, umudamu arahagaze arimo gutanga ikiganiro.

Ahantu hari abantu batandukanye hari n'umugabo ushinzwe umutekano, arimo gutanga ikiganiro bisa nkaho yicaye imbere y'abantu, inyuma ye hari abandi bantu bicaye ndetse banahagaze, hari n'inzu yubatse mu buryo bumeze nk'ishuri n'akandagira ukaraba.

Abantu bahagaze ku murongo kandi ni nijoro bamurikiwe n'amatara, bambaye amafarari agaragaza ko bari mu gikorwa cyo kwibuka, umudamu umwe afite mikoro arimo gutanga ikiganiro.

Abantu benshi bahuriye hamwe bicaye harimo abadamu n'abagabo, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi arimo kubaha ikiganiro. Inyuma yabo kandi hari icyapa kigaragaza igikorwa bajemo kandi bari hanze inyuma yaho hari ibihingwa bitandukanye harimo nk'ibigori ndetse n'ibindi bimera.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye baricaye abandi barahagaze, harimo kandi abashinzwe umutekano abasirikare, abacungagereza ndetse n'abayobozi, bambaye furari zo kwibuka. Bari mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi.

Abantu benshi bahuriye hamwe, abenshi barahagaze. Umusaza afite indangururamajwi cyangwa mikoro arimo gutanga ikiganiro. Ni abantu bamuteze amatwi, kandi bifashe neza biteguye kumva icyo arimo kubabwira.

Abantu bahagaze ku murongo kandi bambaye impuzankano, bari mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi, ni abana b'urubyiruko kandi bafite buje kugira ngo bacane urumuri rw'icyizere, ni ninjoro bamurikiwe n'amatara.

Abantu bicaye hamwe kandi batuje barimo ku gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, bafite buji kandi bacanyeho urumuri rw'icyizere, bambaye na furali zikoreshwa mu gikorwa cyo kwibuka bicaye ahantu hamwe.

Abantu bicaye hamwe ahantu ku gasozi kandi hari ibihingwa nk'ibigori, ndetse n'inturusu bicaye hamwe harimo abadamu n'abagabo, barikureba mu cyerekezo kimwe aho bari kumva ikiganiro cyangwa ubutumwa bari guhabwa, ibi byafatwa nk'inama cyangwa ibindi biganiro bigiye bitandukanye.

Ahantu hari abantu benshi abagore n'abagabo, umudamu umwe afite indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro cyangwa igitekerezo, bamwe baricaye abandi barahagaze bamuteze amatwi ni ahantu hameze nk'ahabaye inama cyangwa nk'ibindi birori.

Abantu benshi baricaye abandi barahagaze. Hari umugabo uhagaze imbere yabo arimo kubaha ikiganiro. Ni ahantu hanze hitaruye inyuma yaho gato hari akazu ku batsemo k'amatente. Iyuma yaho harishyamba umuntu uhagaze imbere yabo arimo kubaha ikiganiro.

Abantu batandukanye harimo abagabo babiri bari imbere yabo, bafite indabyo kandi umwe muri bo yambaye furari, igaragaza ko ari mu gikorwa cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ikenda na kane. Inyuma yaho hari abandi n'abo biteguye gukurikiraho ngo bajyane indabyo ku rwibutso.

Abantu bo mu nzego zitandukanye bicaye hamwe kandi ari benshi. Harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abayobozi, abashinzwe umutekano harimo Polisi, umuntu abari imbere, arimo gutanga ikiganiro.

Imodoka itwara abagenzi, izi modoka zikunze kuba ziri ahantu muri gare hatandukanye, aho abagenzi bakatisha amatike noneho imodoka zikabajyana mu gace batahamo, izi modoka zikora zishyurwa, izi imodoka zitwa kwasiteri.

Umuhanda w'igitaka ni umuhanda uri ahantu haparitse imodoka nyinshi zirenga ebyiri kandi imbere yawo hakaba hari na moto, harimo ibikoresho bigaragaza ko umuhanda urimo gukorwa.

Imodoka iri mu muhanda, ni imodoka imwe iri mu muhanda nta kindi kinyabiziga kirimo, imodoka kandi inyuma aho ihekera imizigo harimo umuntu wambaye umupira w'umutuku n'umukara, ni imodoka iri mu irangi ry'umweru n'umukara.

Mu muhanda wamabuye, kuhande mu nzira y'abagenzi hari umugabo urimo kuzamuka kandi muri uwo umuhanda w'amabuye harimo imodoka itwara abagenzi iri kumanukamo imodoka y'umweru yitwa kwasiteri. Itwara abagenzi ibatwara ahantu hamwe ibajyana ahandi abagenzi bakishyura. Akenshi izi modoka zikunda kuboneka muri gare zitandukanye nka Nyabugogo, i Huye ndetse n'ahandi.

Imodoka itwara abagenzi ya kwasiteri. Iri muri gare aho iparirika noneho igategereza abagenzi, bitewe n'ahantu ijya ikabatwara. Abagenzi barishyura noneho imodoka nayo ikabageza aho bagomba kujya. Zikunda guparika ahantu haba hari gare cyangwa haba hari izindi modoka nyinshi. Kandi iyi modoka yanditseho amagambo yanditseho mu mabara y'icyatsi, ngo Gabiro Agribusiness.

Imodoka itwara abagenzi ndetse n'indi modoka isanzwe, imodoka itwara abagenzi iri mu bwoko bwa Kwasiteri aho iri muri gare itegereje abagenzi ngo ibatware, imbere yaho kandi hari izindi modoka na zo zitwara abagenzi, hari abantu bicaye ku ntebe bategereje imodoka ziri bubatware.

Umugabo atwaye igare ari muri kaburimbo nta kindi kinyabiziga kirimo, apakiye utuzigo tugiye dutandukanye, ameze nk'umuntu uvuye kurangura ibicuruzwa, bimwe biri mu makarito, ibindi biri mu dufuka tw'umweru.

Icyapa kiranga umuhanda cyanditseho e na eni ijana mirongo itatu na gatandatu. Akenshi iki cyapa kiyobora umuntu utahazi, iyo umubwiye iyi mibare iramufasha kugira ngo abashe kugera hano hantu.

Icyapa gikunze kuba kiri ku muhanda cyanditseho mirongo inani biba bishatse kuvuga ko ikinyabiziga cyemerewe kugenda ku muvuduko w'ibirometero mirongo inani ku isaha, ni igihe haba hari ahantu hari umuhanda mwiza hemerera ikinyabiziga kwihuta.

Imodoka nyinshi ziri muri gare. Imodoka iri imbere yanditseho Yaho ni Company iba itwara abagenzi yitwa gutyo. Ziri muri gare zitegereje gutwara abagenzi. Hari abantu bari imbere yayo bategereje kwinjiramo. Hari n'izindi modoka nazo zategereje abagenzi, aho abagenzi bishyura imodoka zikabatwara zikabageza aho batuye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto. Moto yacanye itara, ikinyabiziga cya moto nicyo kiri mu muhanda cyonyine kandi umuntu uyitwaye ntawundi muntu ahetse.

Umuntu uri muri kaburimbo utwaye igare, nta bindi binyabiziga birimo kandi apakiye ibintu ku igare harimo ibisa ikigina, ubururu, umweru ndetse n'icyatsi n'umuhondo, ameze nk'umuntu uvuye kurangura.

Imodoka iri muri kaburimbo ni imodoka yo mu bwoko bwa Yhundai kandi inyuma yaho hari moto ya icanye itara, iyi modoka iri mu marangi ajya gusa umweru, aho nta yindi modoka iri muri kaburimbo usibye yo yonyine ndetse na moto iyiri inyuma.

Icyapa kiri kuri kaburimbo ni nijoro n'icyapa cyanditseho inyajwi e, ingombajwi eni ndetse n'umubare cumi na kabiri, hejuru hakaba hari amagambo yanditse mu nyuguti ntoya ari a, v na e, bishatse kuvuga ko iki ari icyapa kiranga umuhanda, aho kifashishwa mu kuyobora umuntu utahazi akaba yabasha kuhagera bitamugoye.

Umuntu w'umugabo urimo guseka, ari ahantu hari ibihingwa by'urutoki kandi afite ibuye mu ntoki, ari mu gikorwa kijyanye n'ubwubatsi cyangwa akaba arimo guhereza amabuye nko mu gikorwa cy'umuganda cyangwa ibindi.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo bari ku murongo kandi bose bikoreye amabuye, bari gukora igikorwa rusange nk'umuganda cyangwa bakaba bari kubakira umuntu, aba kandi bakikijwe inzira barimo bari mu rutoki.

Ahantu hari abantu benshi. Bamwe baricaye abandi barahagaze. Umupolisi ushinzwe ibyo mu muhanda n'ibinyabiziga ari gutanga ikiganiro, abaturage bamuteze amatwi. Ahantu kandi bari ntago ari mu inzu, ni ahantu hitaruye ku gasozi.

Abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye harimo abagore n'abagabo, ndetse n'abandi bantu bari mu nzego z'umutekano, harimo abasirikare abantu bafite amasuka barimo gukora ibikorwa rusange wa kita nk'umuganda, inyuma yaho kandi hari insina ndetse hakurya hari ahantu hari ibyatsi hameze nk'umusozi.

Abantu bahuriye ku gikorwa kimwe kandi bafite amasuka n'imihoro harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abaturage basanzwe, bari mu gikorwa kimwe bikunze kwitwa muganda, umuganda akunda gukorwa rimwe mu kwezi cyane cyane mu mpera z'ukwezi.

Abantu benshi bahuriye hamwe bari mu gikorwa rusange kimwe hari gikorwa cyo kubaka inzu y'umuturage cyangwa gutanga umusanzu, barimo gufata icyondo bakakijyana aho inzu yubatswe, ni inzu yubatswe n'amatafari ya rukarakara byakitwa nko gufasha umuntu cyangwa gutanga umusanzu.

Abantu benshi bicaye mu kibuga cy'umupira, harimo abicayemo bambaye imyenda isa abakinnyi b'amakipe abiri, abandi ni abantu basanzwe bameze nk'abafana, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi arimo kubaganiriza.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru, bari mu kibuga kiza kandi cy'ubwatsi bwiza kiringaniye, ikipe imwe yambaye impuzankano y'ubururu n'umweru abandi bakaba bambaye impuzankano y'umuhondo, barimo gukina umupira w'amaguru, abambaye umupira w'ubururu ni bo bafite umupira.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, barimo gusuhuzanya kugirango umupira utangire, bari mu kibuga cy'igitaka, ikipe imwe yambaye umutuku n'amakabutura y'umukara arimo imirongo y'umuhondo, abandi bambaye imyenda ijya gusa umukara ndetse n'amabara ajya gusa umutuku.

Abakobwa barimo gukina umupira wamaguru, bari mukibuga kitarimo ibyatsi. Nii ikibuga kitari cyiza cyane. Abakobwa bamwe bambaye imyenda yumukara numweru abandi bakaba bambaye imyenda yubururu, mweru n'amakabutura ajya gusa umukara n'umurongo umanutse y'umutuku...

Umuhungu uri mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Ni ikibuga kitarimo ubwatsi ahubwo ni itaka gusa. Inyuma ye kandi hari ahantu hari urusengero runini rwubatse mu marange y'icyatsi n'umweru. Uyu muhungu wambaye impuzankano z'umupira w'amaguru harimo ikabutura y'ubururu n'umupira w'ubururu uri mu mabara y'icyatsi ari mu kibuga wenyine.

Abantu barimo gukina umukino ngororamubiri, uyu mukino ukaba ujyanye n'umukino njyarugamba, umukino bakora barwana cyangwa biga kurwana, haba harimo karate cyangwa ku ngufu.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, ni kimwe mu bikorwa ngororamubiri, umuhungu arahagaze umwe ndetse n'umuzamu, ikipe imwe yambaye impuzankano y'amakabutura ajya gusa umukara irimo imirongo y'ubururu bwerurutse ndetse n'umuzamu yambaye ikabutura y'umukara n'umupira ujya gusa umutuku.

Abana benshi bari mu ngeri zitandukanye, harimo abambaye impuzankano z'abanyeshuri, ndetse n'abatambaye impuzankano, harimo abarimo gukina, aho harimo uwiyikuyemo, ndetse n'uwambaye imyenda yo gukina umupira w'amaguru. Akenshi bikunze kuba ahantu batambara impuzankano, aho ikipe imwe yikuramo, indi ntiyikuremo.

Abagabo batatu, bari mu kibuga cy'umupira wa'maguru, bamezeze nk'abantu bagiye gukina umupira. Bambaye imyenda yo gukinana isa. Irimo umuhondo ndetse n'umukara.

abantu bari gukina umupira w'amaguru. Bari mu kibuga cyiza kandi cy'ibyatsi. Ikibuga cyiza kitari igitaka. Barimo gukina umupira w'amaguru umwe yacenze undi kandi undi arashaka kumugusha. Hari uwambaye umupira ujya gusa umutuku n'ikabutura y'umukara , undi akaba yambaye umuhondo n'umweru.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru. Ni ikibuga igihande kimwe kirimo ibyatsi ikindi nta byatsi kirimo kandi abakinnyi ikipe imwe yambaye impuzankano y'ubururu n'icyatsi, indi ikaba yambaye ubururu bwerurutse na nimero zandikishije amabara y'umweru. Bari gukina umupira hanze y'ikibuga hari abandi bantu barimo kureba uko bakina umupira.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru wambaye imyenda y'ubururu n'amabara y'icyatsi mu mupira, afashe ku gutwi ameze nk'uri gutera isari ari mu kibuga k'igitaka kirimo ibitaka, inyuma yaho gato hari ibyatsi.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru, ni mu kibuga cyiza kandi nta bafana bahari, ni abakinnyi n'abasifuzi gusa, abakinnyi bari kugaragara bambaye impuzankano z'umukara n'ubururu bwerurutse, barimo gukinira mu kibuga cyiza, ibi ngibi byafatwa nk'umukino ngororamubiri.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abashinzwe umutekano ndetse n'undi muntu umeze nk'umuyobozi, bari imbere y'abakinnyi bameze nk'abari kubaganiriza, umukino ugiye gutangira, abakinnyi harimo abambaye imyenda y'amabara y'icyatsi n'umweru, abandi bakaba bambaye umuhondo n'icyatsi.

Abantu babiri bahagaze mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Umwe ni umudamu, undi ni umugabo. Umugabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, umudamu na we yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara urimo andi mabara . Imbere yabo hari umupira wo gukina, aho bameze nk'abayobozi bagiye gutangiza umukino.

Abantu batandukanye, harimo abadamu n'abagabo, barimo gukina umupira, abandi barahagaze barimo kureba, ni abantu benshi, harimo abambaye imyenda ya siporo, n'abandi batayambaye.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru barimo kwishyushya. Aho bambaye imyenda ijya gusa umuhondo ndetse n'umukara bari mu kibuga cy'umupira cyitwa sitade, aho abafana bicara bari mu marange y'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo gukina bambaye impuzankano zitandukanye, amakipe imwe yambaye imyenda y'umukara n'umweru indi nayo ikaba yambaye umukara mwinshi n'umweru mukeya, barimo gukina ku kibuga kimeze neza kandi kirimo ibyatsi bimeze neza hakurya nta mwanya w'abafana bahari.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye impuzankano zabugenewe mu buryo buvugurura umubiri. Bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru kandi ikibuga cyubatse neza kirimo ubwatsi bukoze neza. Ikipe imwe yambaye impuzankano z'ubururu n'umweru iyindi yambaye impuzankano y'umuhondo bakaba barimo gukina umupira w'amaguru.

Abantu babiri bari mukibuga cy'umupira w'amaguru, ni ikibuga giteye ibyatsi gisa neza. Umuhungu umwe ni umukinnyi yambaye impuzankano y'ikabutura y'ubururu n'umupira w'uburuuru, nimero zandikishije umukara; noneho umugabo wundi we ameze nk'umutoza ntabwo yambaye impuzankano z'umupira w'amaguru.

Umuhungu urimo gukina umupira w'amaguru, ari mu kibuga kirimo ubwatsi bwinshi, kandi nta wundi muntu urimo kugaragara. Hnyuma y'ikibuga hari amazu meza, harimo n'ikigega gifata amazi.

Abakinnyi barimo gukina umupira w'amaguru bari mu kibuga cy'ubwatsi aho ikipe imwe yambaye imyenda y'umukara n'ubururu, indi ikaba yambaye imipira y'imyeru n'amakabutura ajya gusa umuhondo arimo umurongo w'umukara, barimo gukinira ahantu hatari abafana.

Abantu bari mu kibuga cy'ubwatsi barimo gukina umupira. Harimo uwambaye bote ndetse n'umudamu ubyibushye wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umuhondo. Ni we wegereye umupira bakina. Inyuma yabo kandi hateye urutoki.

Umuntu umwe uri mu gikorwa cyo gukora umurimo ngororamubiri, ari ahantu mu nyubako kandi nijoro amatara araka, kandi ari ahantu hisanzuye aho yambaye n'imyenda imufasha gukora impuzankano kugira ngo akore siporo neza.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru ni ikipe imwe iyindi ntabwo igaragara, bambaye imyenda y'ubururu umupira urimo amabara y'icyatsi, ku ruhande kandi hanze y'ikibuga haparitse moto ebyiri n'abantu babiri, inyuma yabo kandi hari igipangu kinini, mo mbere harimo ibiti birebire, bari gukinira mu kibuga k'itaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga biri mu bwoko bubiri: harimo moto n'igare, harimo moto imwe iri kumanuka ihetse umuntu, igare riri kumanuka noneho imbere hakaba hari iyinndi moto irimo kuzamuka, mu nzi y'abanyamaguru harimo umuntu umwe uri kumanuka.

Umudamu urimo kugenda munzira y'abanyamaguru muri kaburimbo, yambaye umupira w'ubururu n'igitenge kandi yakenye n'igitambaro mu mutwe, ari mu nzi y'abanyamaguru ku ruhande gato hari kaburimbo, inyuma ye hari abandi bantu bari kuzamuka, undi mugabo umwe wambaye imyenda y'umukara n'ubururu ari mu nzira imanuka iva kuri kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo kandi ni nijoro amatara ya kaburimbo arimo kwaka, aho aya matara agira umumaro mu kumurikira ibinyabiziga mu kugira ngo birinde ikibazo k'impanuka, cyangwa gutwara ibinyabiziga batabona neza, aho iyo ibinyabiziga bigiye kubisikana biba bimurikana.

Umuntu utwaye moto ari muri kaburimbo wenyine ntakinindi kinyabiziga kirimo, kandi yegereye umurongo ugabanya aho ibinyabiziga bica ndetse n'abanyamaguru baca, ni umugabo wambaye ikote ry'umukara na kasike y'umutuku, impande ya kaburimbo hari ibiti birebire bimeze nk'amashyamba.

Umuhanda wa kaburimbo nta kinyabiziga kirimo, kandi hari n'inzira y'abanyamaguru, hagati y'inzira' abanyamaguru na kaburimbo, harimo pasiparumu ziteye neza . Ni umuhanda uri ahantu haringaniye, ntabwo haterana ntanubwo hamanuka.

Amapave ari ahantu mu mbuga nini, hepfo y'amapave hari inzu yubatse y'ubucuruzi kandi ikinguye haparitseho moto enye, ni moto ziparitse ahantu ku ibaraza ntago ari mu nzu mo imbere.

Umuntu uri mu muhanda, ni mu muhanda w'igitaka kandi wagiye ucikamo imikuku kubera amazi atemba, umuntu kandi yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, afite isuka ameze nk'umuntu uvuye guhinga.

Abantu babiri harimo igitsina gabo umwe n'umukobwa umwe bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru kuri kaburimbo aho muri kaburimbo nta kinyabiziga kirimo, kandi ni ahantu hegereye ikoni hejuru yabo hari amatara amurika muri kaburimbo kandi kaburimbo ni ahantu heza hagati y'abanyamaguru n'aho zinyura harimo indabyo.

Imodoka ntoya iri muri kaburimbo yonyine. Hagati harimo imirongo itandukanye y'umuhondo ivuga ko ikinyabiziga kimwe cyemerewe guca ku kindi mu gihe kirimo kwihuta. Imodoka rero iri muri kaburimbo yonyine kandi ni imodokadoka y'umweru.